Ubusitani bumeze neza cyane harimo ibikoresho abana bifashisha bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo indabyo z'ubwoko bwinshi ndetse hariho n'icyumba giteye amarangi y'umweru.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ndetse iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ku madirishya n'inzugi hagaterwa irangi ry'umukara ndetse ikikikijwe n'ubusitani burimo indabyo nziza ikagira n'uduhanda twiza tubereye amaso.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko menshi uri kugendamo abanyeshuri babiri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umukara, bahetse udukapu tudoze mu bitenge.

Inyubako yubatse neza cyane, iteye irangi rya pinki ndetse imbere yaryo mu busitani harimo abana bari gukiniramo bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, harimo n'ufite ubumuga ndetse n'umurezi wabo ari gukinana na bo.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu Rwanda, ibyumba byiza by'amashuri biriho amabara y'umuhondo ndetse bisakaje amabati y'umutuku, imbere hashushanyije udushushanyo twiza bifashisha mu kwiga.

Umuco gakondo mu Rwanda ukomeje gutera imbere, harimo abari kubyina bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'abandi bafite imigara, harimo ababatoza bahagaze impande zabo babakomera amashyi.

Ni byiza ko abanyeshuri biga bagira n'aho bakora imyitozo ngororamubiri, mu busitani bwiza cyane harimo ibikoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, harimo abana bicaye buri wese ku gakoresho ke akoresha.

Mu buryo bwo kunoza uburezi bufite ireme abanyeshuri bagira aho bakorera imyitozo ngororamubiri, aho bakorera imyitozo ngororamubiri harimo amabara atandukanye umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, iruhande rwabo hari amashuri ameze neza cyane yubakishije amatafari ahiye.

Ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye, harimo ibikoresho bifashisha boga basukura intoki, iruhande rwaho hahagaze akana kambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru ndetse hari n'indi nyubako hirya.

Mu buryo bwo kunoza uburezi bufite ireme, abana bambaye impuzankano yiganje mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, abarezi babo babafasha kurya neza, harimo bamwe bari kubagaburira ndetse n'abandi babahagaze iruhande.

Ahantu heza ho gukorera imyitozo ngororamubiri. Hariho ibikoresho byiza bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi. Ndetse impande y'aho hari inyubako yubakishije amabuye meza cyane. Ateye irangi ry'umukara ndetse n'umweru.

Ikibuga kimeze neza cyane, gihagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse bahagaze imbere y'ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari abarezi babo bambaye imyenda yiganjemo umuhondo.

Ibyumba byiza bigezweho. Byubakishije amatafari ahiye. Bikikijwe n'ubusitani burimo indabyo, ibiti bitandukanye ndetse harimo n'ibyapa byerekana amerekezo y'icyo kigo. Biryoheye amaso.

Uburezi bufite ireme bukomeje gutera imbere mu Rwanda, icyumba cy'amashuri giteye amarangi y'umuhondo ndetse ku nzugi hateye irangi ry'umukara, ibikoresho bifashisha mu kwigisha harimo udusokozo ndetse n'utudobo.

Ibikoresho wakwifashisha wigisha mu bigo by'inshuke. Bifite amabara atandukanye. Higanjemo ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi ndetse hasi hari igipupe.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse iteyemo sima, iruhande rwaho hari ubusitani bwiza buryoheye amaso ndetse imbere hicayemo umuntu wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'ubururu.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu Rwanda. Ibyumba byiza by'amashuri byubatse neza byubakishije amatafari ahiye ku nzugi hateyeho irangi ry'ubururu, icyatsi, ndetse n'umuhondo, abanyeshuri bafite ibikoresho byiza bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako yubatse neza cyane iteye amarangi atandukanye ku bikuta umuhondo, ku madirishya umukara ishushanyijeho ibihingwa bitandukanye: ibishyimbo, avoka, ndetse n'imyumbati.

Uburezi bw'inshuke na bwo ni inkingi y'iterambere, icyumba cyubatse neza giteyemo amarangi y'umuhondo, harimo ibishushanyo bitandukanye, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umukara bicaye ku birago.

Uburyo bwo kunoza uburezi bufite ireme. Abana bagira aho bakorera imyitozo ngororamubiri. Aho bakorera imyitozo ngororamubiri harimo amarange y'umuhondo. Ndetse iruhande rwaho hari inyubako nziza ibereye amaso.

Inyubako yubatse neza cyane iteyeho amarangi y'umweru ku bikuta ikagira amadirishya ateye amarange y'ubururu ndetse imbere y'aho hari ubusitani bumeze neza cyane, mu duhanda two muri ubwo busitani hahagazemo abana bambaye impuzangano yiganjemo ubururu ndetse n'umweru.

Ibyumba byubatse neza cyane byubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'ibikoresho bifata amazi mu buryo bwo kurwanya isuri, imbere y'aho hakikijwe n'ibihingwa bitandukanye harimo ibitoki, avoka ndetse n'ibigori.

Inyubako yubatse neza cyane, yubakishije amatafari ahiye, hahagaze umwana wambaye impuzankano yiganjemo ubururu, yandika ku kibaho inyuguti zirimo ABCG.

Inyubako yubatse neza mu buryo bwa kijyambere, yubakishije amatafari ahiye kandi yubatse mu buryo bwo kugabanya ubucucike n'ibura ry'ubutaka, imbere yaho hari ubukarabiro bwiza cyane ikikijwe n'ubusitani bubereye amaso.

Inyubako yubatse neza cyane muri iyo nyubako hateyemo amarangi y'umweru ndetse hakabamo n'amakaro, harimo ameza asa neza cyane ndetse n'intebe zo mu bwoko butandukanye, hakabamo n'ibitabo byo mu moko yose.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye. Ku nzugi hateye irangi ry'ubururu ndetse n'amadirishya ateye irangi ry'ubururu. Imbere yaho hari ubwogero bwiza cyane bifashisha abatunganya isuku. Hakikijwe n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu, yubakishije rukarakara ndetse iruhande rw'aho hari indi nyubako iteye amarangi y'imweru, iruhande rw'aho hari imodoka ndetse hino y'aho hari abantu bicaye bakikije ubusitani.

Icyumba cy'isomero kirimo ibikoresho bitandukanye bibajwe mu biti ndetse biri mu mabara atandukanye, hari n'intebe iruhande, muri icyo cyumba harimo amakaro asa nk'umukara ndetse iruhande rwaho hari umuntu uri kugenda.

Mu buryo bwo kunoza uburezi bufite ireme. Abanyeshuri bagira aho basukuririra intoki ndetse impande y'ubwo bwogero hari ibyumba by'amashuri, biteye amarangi y'umuhondo ndetse byubakishije amatafari ahiye. Ku madirishya hateye irange ry'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bwa kijyambere mu buryo bwo kugabanya ubucucike mu Rwanda, imbere yaho hari udukaramu tw'ibiti ndetse inyubako iteye amarangi y'umuhondo, icyatsi ndetse isakaje amabati ari mu bwoko bw'amategura.

Uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwa muntu abantu bagira aho bivuriza inyubako nziza zubakishije amatafari ahiye ndetse igashyirwaho amarangi y'umweru ku nzugi ndetse n'amadirishya igakikizwa n'ubusitani bwiza ndetse hagasakarwa mu mihanda aho abantu banyura.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti byiza bitohereye ndetse n'indabyo, muri ubwo busitani harimo ikirangantego k'Igihugu ndetse impande y'aho hakikijwe amabuye.

Mu buryo bwo kongera uburezi bufite ireme mu bigo by'inshuke, harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bongera ubumenyi. Buri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara, muri ibyo byumba haba harimo udushushanyo turyoheye amaso.

Ibikoresho bifashi biri mu mabara atandukanye, umuhondo, umweru, ubururu ndetse n'umutuku, hari amakayi iruhande, hari amakaramu y'ibiti ndetse iruhande rwaho hari n'utundi dukoresho dutandukanye.

Inyubako yubatse neza cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite inzugi z'imbaho ziteye amarange y'ubururu, inyuma yayo hariho ibiti bimeze neza cyane ndetse isakaje amabati ashaje.

Ibikoresho bifashisha mu kwiga, harimo ibiri mu mabara y'ubururu, umutuku, umuhondo, ndetse n'umukara, harimo udukoresho bifashisha bakata utuntu dutandukanye, harimo mubazi bifashisha babara imibare itandukanye, amakayi ndetse n'ayarimo.

Igitabo k'ikinyarwanda, k'inkuru zisomerwa abana inyuguti z'ikinyarwanda: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s.

Inyubako yubatswe neza cyane, iteye amarange y'umuhondo n'ubururu ku nkuta, ikagira amadirishya n'inzugi by'umukara, imbere y'iyo nyubako hagakikizwa n'ubusitani butohereye ndetse hakabaho n'imihanda migari igera kuri iyo nyubako.

Ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri. Biri mu mabara atandukanye, umweru, icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku. Harimo imigozi, imipira ndetse n'utundi dukoresho bifashisha mu mikino itandukanye.

Ibyumba by'amashuri byubatswe neza cyane, byubakishijejwe amatafari ahiye bigasakazwa amabati y'ubururu ndetse imbere y'ibyo byumba hariho ikibuga abana bifashisha mu myitozo ngororamubiri ndetse harimo n'ibikinisho bifashisha mu myitozo ngororamubiri.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza cyane biteye amarangi y'umweru ndetse bisakaje amabati y'ubururu, imbere y'ibyo byumba hariho ubusitani bumeze neza cyane hariho n'abanyeshuri bari kugendera mu mihanda igize ubwo busitani bambaye impuzankano yiganjemo umweru.

Icyumba cy'amashuri cyubatse neza cyane giteye amarange y'umuhondo ndetse harimo n'intebe zicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano higanjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere y'aho hari umurezi ubafasha mu myigire yabo.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu Rwanda. Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye. Ku madirishya hateye irangi ry'ubururu. Hariho umurezi uri kubayobora, wambaye akenda k'umutuku. Abanyeshuri bambaye impuzangano yiganjemo umweru.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza cyane, byubakishije amatafari ahiye ndetse bikikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo indabyo nziza ndetse n'ibiti byiza, imbere y'ubwo busitani hakabaho icyapa kiriho indangagaciro na kirazira.

Ibyumba by'amashuri bimeze neza cyane bisakaje amabati y'ubururu ndetse iruhande rwaho hari ubusitani butandukanye harimo uduhanda tubafasha koroshya ingendo hirya no hino harimo n'ibyapa biyobora abantu bahagana.

Inyubako yubatse neza cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse harimo amatara, muri iyo nyubako harimo intebe zicayeho abanyeshuri bambaye impuzangano, yiganjemo ibara ry'umweru, imbere yabo hariho umurezi uri kwandika ku kibaho.

Inyubako yubatse neza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse ikikijwe n'ubusitani bumeze neza cyane, impande y'iyo nyubako hariho ibikuta byubakishije amabuye mu buryo bwo kwirinda isuri ndetse hari n'umuhanda ugera kuri iyo nyubako wubakishije amabuye.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ya ruriba, ku nzugi hateye amarange y'icyatsi ndetse n'ay'ubururu, amadirishya na yo ateye amarange atandukanye, imbere y'ishuri hari agakoresho bifashisha mu buryo bw'isuku.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza cyane biteye amarangi y'icyatsi ndetse bisakaje amabati y'icyatsi, imbere yaho hari ubusitani butohereye bumeze neza harimo indabyo z'amoko yose ndetse inyuma hari ibiti byiza bituma umwuka waho umera neza.

Ubusitani bumeze neza cyane burimo amoko y'ibiti atandukanye ndetse n'indabyo zibereye amaso, hari icyapa kerekana icyo kigo uko kimeze ndetse hari n'ibyumba by'amashuri byubatse mu buryo bwiza.,

Inyubako yubakishije amatafari ahiye. Yubatswe mu buryo bwa kijyambere. Iteye amarangi y'umuhondo ku dukuta ndetse hariho n'inzugi ziteye amarangi y'icyatsi ndetse n'amadirishya.

Icyumba cy'amashuri kimeze neza cyane giteye amarange y'umweru ndetse muri icyo cyumba harimo umurezi wigisha abanyeshuri, wambaye umwenda w'umweru. Arimo yereka abanyeshuri ibyo yanditse ku kibaho.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse iteye irangi ry'ubururu, iruhande rwaho hari umuntu ahahagaze, ubwiherero bufite iku imeze neza cyane, inyuma yaho hari ibiti bituma haza umuyaga umeze neza.

Ibyumba byiza bya kijyambere bigezweho. Byubakishije amatafari ahiye. Biteye amarangi ku madirishya no ku nzugi umuhondo n'icyatsi, bikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse muri ubwo busitani harimo ikirango cy'igihugu cyacu.

Inyubako imeze neza cyane yubakishije amatafarihiye ndetse hasi hatangi amabuye, kuri iyo nyubako hariho icyapa cyerekana indangagaciro na kirazira, iruhande rw'iryo shuri hari ubusitani bumeze neza burimo ibiti by'amoko yose.

Inyubako yubatse neza cyane iteye amarangi y'umweru ku bikuta ndetse n'ubururu, ku nzugi n'amadirishya hagaterwaho irangi ry'umukara, imbere y'iyo nyubako hari icyuma bifashisha batwara abagenzi.

Mu buryo bwo kunoza imyigishirize abanyeshuri bagira icyumba cyitwa isomero, icyo cyumba kirimo ibitabo bitandukanye harimo ibitabo by'imibare, hakabamo ibitabo by'ibinyarwanda ndetse hakabamo n'igitabo cy'ubugenge n'ubutabire.

Icyumba cy'amashuri kimeze neza cyane gifite amabati y'umutuku, giteye amarange y'umuhondo, ku nzugi hateye amarangi y'ubururu, ubusitani bwiza cyane buryoheye amaso ndetse iruhande rw'aho hasa neza cyane.

Ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri itandukanye. Higanjemo ibikoresho biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ikibuga kimeze neza cyane, gikikijwe n'ibiti bizana umuyaga mwiza ndetse hari n'amashuri ameze neza cyane, ateye amarange y'umweru ndetse imbere y'ikibuga hari abanyeshuri bicaye, bambaye impuzankano yiganjemo umweru.

Uburezi bw'inshuke na bwo ni ingirakamaro mu Rwanda, inyubako nziza iteye amarange y'umweru ndetse imbere y'aho hakaba hari udukoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri turi mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku.

Mu buryo bwo kugira ubuzima buzira umuze, ikigo nderabuzima giteye amarange y'umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwaho hakikije ubusitani bwiza cyane harimo indabyo z'ubwoko butandukanye, iruhande rwaho hari aho bakorera isuku.

Icyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye. Harimo intebe z'ubwoko butandukanye. hari imwe bita urubaho ndetse n'utundi dutebe tw'ubwoko bwinshi. Uruhande harambitse ikirago ndetse hirya hicaye umuntu.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu Rwanda. Ubusitani bwiza cyane buryoheye amaso. Indabyo nziza muri ubwo busitani. Amashuri yubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse iruhande rwaho harimo umuntu wambaye imyenda iri mu bwoko bw'umweru.

Ibyumba by'amashuri byubatswe neza cyane, byubakishijwe amatafari ahiye ndetse imbere y'aho hakabaho ikibuga abana bifashisha bari mu myitozo ngororamubiri, abanyeshuri bahagaze muri icyo kibuga bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse umuhondo.

Ibikoresho biri mu mabara atandukanye ubururu, umuhondo, umukara ndetse n'umutuku, harimo udukoresho bifashisha bakata ibintu bitandukanye ndetse harimo n'amakaramu y'ibiti ndetse n'utwo bifashisha baconga ayo makaramu.

Mu buryo bwo kunoza uburezi bufite ireme. Ibyumba by'amashuri byubatswe mu buryo bugezweho. Hari ubusitani bukikije ibyumba by'amashuri. Birimo indabyo zitandukanye. Iruhande rwaho hari icyapa cyerekana indangagaciro ziranga iki kigo.

Ibikoresho bifashisha mu kunoza imyigire, ibitabo, amakayi ndetse n'amakaramu y'ibiti, ari mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, harimo utumakasi ndetse hakabamo n'utundi dukoresho tubajwe...

Inyubako nziza igezweho iteye amarangi y'ubururu ku madirishya ndetse no ku nzugi, yubakishije amatafari ahiye ndetse ku nkuta hari ahasize irangi ry'umuhondo, isakaje n'amabati y'ubururu, iruhande rw'aho hari ubusitani bumeze neza cyane.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, bari ku mirongo umwe umwe akurikikira n'undi, hakikijwe n'ibiti by'amoko menshi ndetse imbere yabo hari umuntu ubayoboye.

Urugendoshuri narwo ruravurwa mu igihugu cy'uRwanda, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umuhondo, harimo n'abambaye umweru bakikijwe n'ibiti bimeze neza cyane biri mumoko atandukanye, ndetse bari kumwe n'abarezi babo.

Uburezi bufite ireme bukomeje gutera imbere, abanyeshuri bambaye impuzankano higanjemo ibara ry'ubururu ndetse n'amajipo y'umukara, umurerezi wabo ahagaze imbere, iruhande rwabo hari ubusitani bubakikije bw'ibiti bitandukanye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye harimo amatara, harimo abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzangano yiganjemo icyatsi ndetse n'umweru, iruhande rwabo hari ameza ndetse n'ikirago biteguye neza cyane.

Ikibuga kimeze neza cyane abanyeshuri bicaye impande n'impande z'icyo kibuga, bambaye impuzangano yiganjemo umweru ndetse bamwe barareba imbere barangamiye abari gukina ndetse hari n'abandi bicaye bareba mu busitani bwabo.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu Rwanda abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse bari gukoma amashyi hagati yabo hari umuntu w'umuzungu wambaye akenda k'umutuku iruhande rwabo hari amashuri yubakishije amatafari ahiye.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu gihugu cyacu amashuri yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje amabati y'umutuku akikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse muri ubwo busitani harimo ibendera ry'igihugu cyacu imbere yaho harimo umuntu uri kugenda.

Ubusitani butoshye bumeze neza cyane hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye higanjemo ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, imbere yabo hari umuntu wambaye umukara ndetse bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu Rwanda, ibyumba by'amashuri byubatse neza, byubakishije amatafari ahiye, abanyeshuri bameze neza cyane bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse iruhande rwaho hari ubusitani bumeze neza cyane.

Ibyumba byiza bigezweho byubakije amatafari ahiye kandi byubazuye mu buryo bugerekeranye, abanyeshuri bahagaze imbere bambaye impuzangano yiganjemo umweru ndetse bari kumwe n'abarezi babo impande n'impande.

Ubusitani bwiza buryoheye amaso. Hicayemo abanyeshuri bambaye impuzangano zitandukanye. Ziri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Harimo ibiti byiza cyane ndetse imbere yabo hari umuyobozi ufite indangururamajwi.

Icyumba cyubatswe neza cyane, cyubakishijwe amatafari ahiye, giteweho amarange y'umukara ku nzugi, gihagazemo umunyeshuri wambaye impuzangano yiganjemo umweru, arareba ku kibaho asoma.

Ubusitani bumeze neza cyane hariho intebe zicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye iganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yawo hari abarezi babo ndetse bakikijwe n'ibiti impande zose.

Ubusitani bwiza buryoheye amaso harimo ibiti bitandukanye, muri ubwo busitani hahagazemo umugabo ufite igitabo ndetse hari ameza ateretseho akadomoro ndetse imbere hahagaze umunyeshuri wambaye impuzangano harimo umwe...

Uburezi ni inkingi y'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyumba byiza by'amashuri hari ibyubakishije amatafari ahiye ibindi biteye amarange y'umuhondo ku bikuta ndetse n'amadirishya ateye irangi ry'umukara ubusitani bwiza butohereye bubereye amaso.

Inyubako nziza igezweho. Yubatse mu buryo bwa kijyambere. Yubakishije amatafari ahiye ndetse hateye amarange ku nzugi n'amadirishya irangi ry'ubururu. Imbere y'ayo mashuri hari udukoresho bifashisha mu buryo bwo kwirinda gukwirakwiza imyanda hose.

Icyumba kimeze neza cyane. Giteyemo irangi ry'umweru. Harimo umuntu wicaye afite amazi mu ducupa dutatu ndetse afite ikaramu mu ntoki nikayi irambitse ku meza. Inyuma ye hari igikoresho bifashisha mu gihe habaye inkongi y'umuriro.

Inyubako yubatse neza cyane, yubakishije amatafari ahiye, ikagira amatara ndetse harimo n'ameza ateretseho mudasobwa, muri ayo meza hakabamo intebe ziri mu mabara y'icyatsi.

Inyubako yubakishije amabuye imeze neza cyane. Imbere y'inyubako hari abana bambaye amakanzu yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru inyuma yabo hari abarezi babo babakikije.

Kwiga ufite ubuzima buzima ni inkingi y'iterambere mu Rwanda, umunyeshuri wambaye impuzankano, harimo ishati y'umweru uri gupimwa umuriro n'undi, uri impande ya mudasobwa iri ku meza.

Inyubako nziza izweho, yubakishije amatafari ahiye, ku madirishya n'inzugi hateyeho irangi ry'ubururu ndetse ikikijwe n'ubusitani bwiza, ibiti biryoheye amaso bizana umwuka mwiza mu kigo.

Icyumba cy'amashuri cyubatswe neza cyane, cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse harimo intebe zicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse bafite n'amakayi bari kwandika n'amakaramu.

Ubusitani bumeze neza cyane harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, iruhande rwabo hari ibiti bimeze neza cyane ndetse inyuma yabo hari inyubako iteye amarange y'umuhondo.

Uburezi mu Rwanda bukomeje gutera imbere, abanyeshuri bambaye impuzankano higanjemo ibara ry'ubururu ndetse bari kumwe n'abarezi babo batandukanye, iruhande rwabo bakikijwe n'ibiti by'amoko menshi.

Inyubako yubatse neza cyane, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, hahagazemo abantu bo mu ngeri zitandukanye, bambaye n'amajiri atandukanye ari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Ikibuga kimeze neza cyane, cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu, umukara ndetse imbere yabo hahagaze umurezi wambaye umwenda w'umukara, inyuma yabo bakikijwe n'ubusitani burimo ibiti by'amoko menshi.

Umuco wo kongera uburezi bufite ireme abana bagira aho bita isomero. Icyumba cyiza giteye amarangi y'umuhondo. Harimo intebe ndetse n'ameza. Kuri ayo meza hateretsweho ibitabo ndetse hakaba n'ahandi harunzwe ibitabo by'amoko yose.

Inyubako yubatse neza cyane yubatse ku buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye ndetse ku nzugi n'amadirishya hateyeho irangi ry'ubururu, iruhande rw'iyo nyubako hariho igikoresho kifashishwa mu gufata amazi mu buryo bwo kwirinda isuri.

Umuhanda umeze neza cyane urimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umuhondo, umweru ndetse bakikijwe n'abarezi ku mpande, iruhande rw'umuhanda hari ibiti bimeze neza cyane ndetse imbere yabo hari n'imodoka iza ibasanga.

Inyubako iteye amarange y'umweru ndetse hari n'ibyapa byanditseho indangagaciro, abanyeshuri bambaye impuzangano yiganjemo umweru, abarezi babo babicaye imbere, ubusitani bwiza cyane buri impande yabo.

Inyubako yubatse neza mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye ndetse ku nzugi n'amadirishya hateweho irangi ry'ubururu, iruhande rw'iyo nyubako hariho igikoresho gifata amazi mu buryo bwo kurinda isuri ndetse iyo nyubako ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye.

Ubusitani bumeze neza cyane. Burimo amoko y'ibiti atandukanye. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, impande yabo hari umurezi wambaye akenda kiganjemo ibara ry'ubururu.

Inyubako yubatse neza cyane iteye amarangi y'umweru yicayemo abanyeshuri bashakisha amakuru kuri mudasobwa ndetse abandi bari kwandika no mu makaye bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'icyatsi.

Mu buryo bwo kunoza uburezi bufite ireme mu Rwanda abana bagira aho bakorera imyitozo ngororamubiri, aho bakorera imyitozo ngororamubiri harimo udukoresho duteye irangi ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti ndetse n'indabyo z'amoko yose. Muri ubwo busitani harimo umuhanda umeze neza cyane. Hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, biganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere Gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga, amashuri meza asakajwe amabati y'umutuku asize irangi ry'umutuku, imbere y'aho hahagaze umugore wambaye ishati y'umweru.

Inyubako yubatse neza cyane, yubakishije amatafari ahiye ndetse hakabaho n'ibikoresho bifata amazi mu buryo bwo kurinda isuri, ikikijwe n'ubusitani bumeze neza cyane ndetse harimo n'ibiti by'amoko yose, imbere y'iyo nyubako hahagaze umuntu.

Icyumba cy'amashuri cyubatse neza cyane, giteyemo amarange y'umuhondo ku bikuta ndetse hasi hakabaho umukara, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, umweru ndetse imbere yaho hari umurezi uri kwandika ku kibaho.

Icyumba cyubatswe neza cyane cyubakishijwe amatafari ahiye, harimo intebe zicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse n'icyatsi, buri umwe afite ikaramu ari kwandika mu ikaye.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza cyane, byubakishije amatafari ahiye, amadirishya y'aho ateye amarange y'ubururu ndetse bisakaje amabati y'ubururu, abanyeshuri bicaye imbere y'ayo mashuri bambaye impuzangano yiganjemo ubururu.

Icyumba cyubatse neza cyane kirimo intebe zicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe yambaye agapfukamunwa, bicaye ku ntebe buri umwe afite ikaye n'ikaramu ari kwandika.

Ikigo cy'amashuri kimeze neza cyane, giteye amarange y'umuhondo ndetse gishakaje amabati y'ubururu, iruhande rw'aho hari igikoresho gifata amazi kugira ngo birinde isuri ndetse hari indabyo zimeze neza cyane, inyuma yaho hari abantu bahaturiye.

Ubusitani bumeze neza cyane burimo intebe nyinshi cyane, buri ntebe yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye yiganjemo ibara ry'umweru, umuhondo ndetse na orange, muri ubwo busitani harimo ibiti bimeze neza cyane.

Icyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse hasi hatangijwe amabuye, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganje mu ibara ry'ubururu, bari gukoma amashyi bashi ndetse imbere yaho hari ubusitani bumeze neza cyane.

Ibyumba by'amashuri byubatswe neza cyane, byubakishijwe amatafari ahiye ndetse harimo n'intebe yicayemo abanyeshuri, bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse bamwe bafite amakayi abandi bakagira amakaramu, uruhande rwabo hicaye umurezi.

Inyubako yubatswe neza cyane yubakishijwe amatafari ya ruriba, harimo abantu bambaye amajiri atandukanye bashakisha amakuru, bambaye amajiri ari mu bwoko bw'umuhondo n'umweru ndetse n'icyatsi n'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Rwanda. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru. Bicaye mu busitani bwiza cyane bukikijwe n'ibiti byiza. Abarezi babo bahagaze imbere basa nk'abari kubaha amabwiriza.

Ibyumba by'amashuri byubatswe neza cyane, byubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'ibyo byumba hariho ubusitani bumeze neza cyane, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umweru, bari kumwe n'abarezi babo.

Inyubako y'amashuri yubakishije amatafari ahiye. Abarezi bafite mudasobwa imbere zabo. Ubusitani bumeze neza burimo indabyo nziza ziryoheye amaso ndetse hari n'umuntu ubayobora ubahagaze imbere.

inyubako iteye irangi ry'umuhondo, abanyeshuri bambaye impuzangano higanjemo ibara ry'umweru ndetse hari n'umunyeshuri uri kwandika ku kibaho, abandi bamanitse ibiganza.

Inyubako yubatse neza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse inyuma yaho hari indi ifite amabati asa nk'ashaje, ihagazeho abantu batatu bambaye amajire ari mu bwoko butandukanye.

Ubusitani bumeze neza cyane, bwiganjemo ibiti byo mu moko atandukanye byongera umwuka. Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, ziri mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse imbere yaho hari abayobozi babayobora.

Icyumba cyubatse neza cyane, giteyemo amarange y'umweru ndetse muri icyo cyumba hakabamo intebe zicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse buri munyeshuri afite mudasobwa, imbere y'abanyeshuri hakaba umurezi ubafasha mu myigire yabo.

Icyumba cyubatse neza cyane gitewemo amarangi y'umuhondo ndetse harimo n'amatara, abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse n'abarezi babo babahagaze iruhande babafasha mu myigire yabo.

Inyubako yubatse neza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikikijwe n'ubusitani, ubusitani hakabamo imihanda, muri iyo mihanda harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi ndetse n'ubururu imbere yabo hakaba umurezi wambaye umwenda w'umweru.

Inyubako nziza igezweho, yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati y'ubururu, hariho n'ibikoresho bifata amazi kugira ngo barwanye isuri, imbere yaho hahagaze abantu batandukanye bari gushakisha amakuru.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza cyane bisakaje amabati y'ubururu ndetse biteye amarangi y'umweru, imbere y'ibyo byumba by'amashuri hicaye abana bambaye impuzankano yiganjemo umuru ndetse imbere y'abo bana hari ikibuga hahagazemo umurezi wabo.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse n'umukara, iruhande rwabo hari umuyobozi wabo wambaye umwenda wiganjemo umweru ndetse bakoresha ikoranabuhanga.

Ikibuga kimeze neza cyane, gihagazeho abantu bane ndetse harimo n'umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru, basa nk'abamuhereza impano ndetse inyuma yaho hari n'igikoresho gifata amazi mu buryo bwo kurinda isuri.

Ubusitani bwiza butohereye. Harimo ibiti by'amoko menshi ndetse mu busitani harimo abana bafite impamyabushobozi. Bambaye impuzangano yiganjemo umweru ndetse n'abarezi babo bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu.

Ibyumba by'amashuri bimeze neza cyane. Biteye amarangi y'umuhondo ku bikuta. Ndetse ku nzugi n'amadirishya hateye irange ry'umukara. Imbere y'ibyo byumba hari icyapa kerekana amahame y'ishuri. Ndetse hari ubusitani buryoheye amaso.

Ubuzima buzira umuze na bwo ni inkingi y'iterambere mu Rwanda, umunyeshuri wambaye impuzankano harimo umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umutuku, ari hamwe n'ufite agakoresho gapima umuriro amupima umuriro, iruhande rwabo hari urugi ruteye irangi ry'umukara.

Icyumba cyiza cyane, giteye amarangi y'umuhondo ku bikuta, ku nzugi n'amadirishya hateyeho irangi ry'ubururu, harimo abantu bari mu ngeri zitandukanye, bashakashaka amakuru, harimo uwambaye agashati k'ubururu ufite n'agatabo.

Ubusitani bumeze neza cyane harimo ibiti by'amoko atandukanye, hari ibyumba by'amashuri biteye amarangi y'umweru ndetse hari n'ibyubakishije amatafari ahiye, mu mihanda yo muri ubwo busitani harimo umunyeshuri wambaye impuzangano yiganjemo umweru ndetse n'ubururu.

Mu buryo bwo kongera uburezi mu Rwanda. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, ndetse n'utujiri tw'umukara. Ibyumba by'amashuri biteye amarangi y'umweru. Iruhande rwabo bakikijwe n'ubusitani.

Inyubako yubatse neza mu buryo bwa kijyambere iteye amarangi y'umweru, ikikijwe n'ubusitani buryoheye amaso ndetse muri ubwo busitani harimo agakoresho bifashisha babika imyanda ndetse harimo n'indabyo nziza zituma haza umuyaga mwiza.

Ubusitani bumeze neza cyane harimo indabo z'ubwoko butandukanye, ibiti byiza byongera umwuka mwiza mu kigo ndetse hari n'akandi gakoresho bifashisha mu gihe umuriro ubuze ndetse iruhande rwako hari akandi gakoresho bifashisha bamena...

Ubusitani bwiza cyane burimo imihanda imeze neza cyane, mu muhanda hahagazemo uwambaye umwenda w'umukara, mu busitani hicayemo uwambaye umwenda w'ubururu ndetse bukikijwe n'amazu meza cyane asakajwe amabati atukura.

Icyumba kimeze neza cyane giteye amarangi y'umuhondo ndetse harimo n'intebe zisa ubururu harimo n'abantu bahagaze imbere, harimo abambaye umweru ndetse n'abambaye ubururu.

Umuhanda mugari ukikijwe n'ibiti by'amoko menshi, harimo abantu bari kugenda, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, ubururu, umukara ndetse bamwe bahetse n'utubaga.

Icyumba cy'amashuri kimeze neza cyane harimo amakaro ari mu ibara ry'umuhondo, abanyeshuri bamanuka mu masikariye harimo uwambaye umweru ndetse iruhande rwabo harimo ubusitani bw'ibiti bimeze neza cyane.

Inyubako yubatse neza cyane iteye amarangi y'umweru ndetse igasakazwa n'amabati y'umutuku, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani burimo indabyo z'amoko atandukanye ndetse n'ibiti hakabamo n'imihanda muri iyo mihanda harimo abantu babiri bari kugenda.

Inyubako yubatswe neza cyane, iteweho amarange y'umweru, igasakazwa amabati atukura, ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'umuhanda urimo abantu b'ingeri zitandukanye havanzemo n'abanyamahanga.

Inyubako yubatse neza cyane, iteyeho amarange y'umuhondo ku bikuta ndetse no ku nzugi n'amadirishya hateweho irangi ry'icyatsi, muri iyo nyubako hariho ikibaho bifashisha bandikaho amatangazo atandukanye.

Inyubako yubatswe neza cyane, iteye amarange y'umweru, igakikizwa n'ubusitani burimo indabyo zitandukanye ndetse n'ibiti bitandukanye ndetse mu busitani harimo udukoresho bifashishs mu kubika imyanda kugira ngo birinde gukwirakwiza imyanda hose.

Mu buryo bwo kongera uburezi bufite ireme, inyubako nziza cyane iteye irangi ry'umuhondo, yicayemo abanyeshuri batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku ndetse hari n'abambaye imyeru, iruhande rwaho hateretse amazi.

Kugira ahantu heza ni yo nkingi y'iterambere, ubusitani burimo indabyo zitandukanye, harimo ibiti bimeze neza, ndetse inyubako iteye amarangi y'umukara, isakaje amategura, imbere yaho hari umuntu uri kugenda.

Mu buryo bwo kongera uburezi bufite ireme, inyubako yo kwigishirizamo irimo amakaro, abanyeshuri bafite mudasobwa imbere zabo ndetse hari n'umurezi umwe wambaye agapira kari mu ibara ry'umuhondo.

Ameza meza cyane ariho ikaramu hariho ikarita y'ishuri ndetse na telefoni. Hariho ikiganza cy'umuntu ufashe ikayi ndetse iruhande rwawo hari n'indi kayi imuteretse iruha.

Ubusitani bwiza bugezweho burimo ibiti by'amoko atandukanye, indabyo zikikije ubwo busitani ndetse hari n'umuhanda mwiza ukoze neza wa kijyambere, harimo n'utundi twiza dutoshye.

Mu buryo bwo kongera uburezi bufite ireme. Abanyeshuri bagira aho bashakira andi makuru. Buri munyeshuri yicaranye mudasobwa. Ndetse bicaye mu cyumba cyiza kimeze neza. Harimo irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyumba cy'amashuri giteye amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo. Kirimo n'amakaro. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi ndetse n'umweru. Buri munyeshuri afite icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Inyubako iteye amarangi y'umweru, hicayemo abantu bambaye impuzankano yiganjemo umukara, imbere yabo hari ameza y'umweru ndetse ateretseho n'amacupa y'amazi, bose bicaye ku ntebe z'umweru.

Mu buryo bwo kongera ubumenyi. Abanyeshuri bicaye ku ntebe ziteye amarangi y'icyatsi ndetse muri icyo cyumba hateyemo irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, umwarimu ubayobora ari imbere ku kibaho ari kubigi...

Mu buryo bwo kunoza imyigishirize abanyeshuri bahabwa inyemezabumenyi y'uko basoje amashuri yabo, bambaye amakanzu ari mu mabara y'umukara ndetse hari n'abambaye ingofero z'umukara ndetse n'ubururu.

Ubusitani bwiza butohereye bukikijwe n'imihanda myiza cyane ya kijyambere, inyubako nziza iteye amarangi y'umweru ndetse mu muhanda harimo abantu babiri bari kugenda umwe ahetsa agakapu, indabyo nziza cyane zituma hazamo umwuka mwiza.

Uburyo bwo kongera uburezi bufite ireme, abanyeshuri bagera aho bashakira amakuru yabo, icyumba cy'amashuri giteye amarangi y'umweru ndetse amadirishya ateye irangi ry'umutuku, abanyeshuri bafite mudasobwa imbere zabo ndetse hari n'abari gusoma mu makayi.

Mu buryo bwo kwita ku isuku abanyeshuri bagira aho bogera intoki mbere y'uko binjira mu kigo, aho bogera intoki hateye irangi ry'umweru, impande zaho hari ubusitani bumeze neza cyane buryoheye amaso ndetse iruhande rwaho hari agahanda gateyeye neza cyane.